Icyapa cyanditseho Karangazi sekendari sikuru kigaragaza ikirangantego k'ishuri, amahame y'ishuri ndetse n'ibyo bagendeho. Cyubatse ku gikuta cy'inzu ndetse kiriho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ikigo cy'amashuri y'ibanze kivuguruwe cyubatswe mu buryo bwa etaje y'amagorofa abiri cyubatse neza gifite ndetse imiryango myinshi aho abanyeshuri bose bisanga ndetse bakiga bagahabwa uburezi bukwiriye.

Inzu yubatswe muburyo bwa etaje z'amagorofa abiri ifite imiryango myinshi ikorerwamo yigishirizwamo abanyeshuri, iruhande rwayo hari ikigega abanyeshuri bavomaho amazi yo gukora amasuku ndetse bakananywa, iyo nzu kandi ikorotiriwe n'ibyuma by'umutuku.

Umuririmbyi arimo kuririmbira abanyeshuri, aho abenshi biganjemo ari abanyeshuri. barimo kuririmba cyane bakoma amashyi ndetse bizihiwe cyane.